Abageze mu zabukuru bakwiye kwitabwaho, bakunda kugira indwara nka rubagimpande, umutima, umuvuduko n'izindi, abaganga barasabwa gufata iya mbere bakabegera.

Isuku hose iturange. Ababyeyi bakwiye kwigisha abana babo umuco wo gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune kugira ngo birinde indwara zituruka ku mwanda.

Ni byiza kwita ku buzima bw'abana, bakabajyana mu mashuri, bakamenyera imyambaro n'ibyo kurya bituma akura mu bwenge no mu gihagararo akanateza imbere igihugu cye.

Indwara nyinshi zifata amenyo, ni byiza ko bagucisha mu byuma byabugenewe bakareba ikibazo afite kugira ngo abaganga bakuvure neza.

Amenyo ugomba kuyitaho mu gihe wumva ugize ikibazo cy'uburwayi bwayo, ni byiza ko wegera muganga ubishinzwe akagufasha kugira ngo ubuzima bwawe bukomeze kumera neza.

Ku bitaro aho abarwayi bafashirizwa, hagomba kuba ha bafite ubusitani kugira ababagana bahumeke umwuka mwiza bityo serivisi zikomeze zibanogere.

Amazi ni meza ku buzima bwa muntu, abakora imyitozo ngororamubiri barayanywa kugira ngo bazikomeze ziboroheye, na nyuma yayo bakayoga bakagira ubuzima buzira umuze.

Indabo ni nziza. Zikunda kuboneka mu gishanga. Abantu benshi bazitera mu ngo zabo, bazikoresha imitako, banazikoramo imibavu. Abana barazikunda kubera impumuro zigira. Inyinshi zikunda kuvamo amoko menshi y'imiti.